Aha ni ku kigo cy'ishuri cyitwa ikigo kigezweho cya nyagatare. Imbere hari abanyeshuri batatu; umwe afashe indobo ifite ibara ry'icyatsi.

Ishusho igaragaza ibishushanyo byakozwe muri pulastike hariho ishusho y'igikeri cyasamye kikaba gifite n'amaso manini.

Mu mashuri y'inshuke, ntabwo abana bahita biga inyuguti cyangwa se kubara no kwandika, no gusoma, ahubwo bahera kukubigisha bifashishije udushusho dutandukanye, tw'ibikoresho.

Imbuga y'igitaka irimo umuferege unyuramo amazi bamaze gukoresha, hari inyubako ziteye umucanga ndetse hahagaze n'umwana mutoya cyane w'umukobwa.

Inyubako ifite icyumba kirimo ibitanda byiza byo kuraramo, bisasheho amashuka meza afite amabara atandukanye.

Muburyo bwo kugira ngo abana b'incuke ,bige kandi bafate vuba bakunde ishuri ,ugomba gukoresha ibishushanyo ,bitandukanye nk'ibi birimo ibishushanyo by'imodoka.

Igipupe cyifashishwa mu kurera abana, iki gipupe ni ipusi ifashe mu kanwa kayo, ikindi gipupe gishushanyije nk'inkoko.

Inyubako nziza ifite amarange ya oranje bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye abaturage bakenera harimo nk'amavuta n'umuceri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, hari udupira dutoya twitwa utudenesi ndetse n'utuntu bakubitisha utwo dupira.

Mu mashuri abanza abarezi, bifashisha udukoresho dutandukanye twiza duteye amabengeza kugira ngo bigishe abana, maze biborohere gufata mu mutwe cyane.

Ishusho igaragaza igifuniko cy'igitabo cy'ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, kiva mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, abakiri bato ndetse n'abakuze, batonze umurongo barimo barashaka serivisi, biragaragara ko ahantu bari bagiye mu gikorwa cy'amatora.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zikozwe muri pulastiki bameze nka bantu bari mu nama bafite ibyo bakurikiye ku ngingo runaka bari kubwirwaho.

Iki ni ikibuga bakiniramo umukino w'amaboko witwa Volleyball. Hakurya hari umusozi uriho ibidukikije nk'ibiti ndetse n'ibindi.

Hano hari amakaramu y'ibiti, afite amabara atandukanye, iy'umutuku, umukara ndetse n'umuhondo, hari kandi amakayi arambitseho hejuru urubuto.

Igishushanyo cyerekana uburyo umuntu ushaka gukora igikoresho kimeze nk'imodoka gifite amapine yabikora kugeza kirangiye.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati atukura. Imbere yayo hariho ikibuga giteyemo sima isa ibara rya kaki. Ku mpande mu nguni harimo ikintu gifite ibara ry'icyatsi.

Ahantu ubona ko hameze nk'ahantu hamaze gutera imbere, hari inyubako nyinshi kandi nziza. Ahagana hepfo hari amashuri asakaje amabati afite amabara atandukanye. Hepfo y'amashuri hari igishanga.

Inziga ebyiri zirimo imibare itandukanye hari aho izo nziga zihuriye naho hakaba hari imibare itandukanye cumi na rimwe karindwi ndetse n'icyenda.

Abantu batatu, umugabo umwe ndetse n'abagore babiri, bose bambaye udupfukamunwa. barahagaze barimo barifotoza, bafashe ku gikarito kirimo televiziyo.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye ndetse ku rubaraza hakaba hateye sima zisakaje amabati asa ubururu hari n'ikigega gifata amazi avuye kuriyo, aya ni amashuri.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya imirongo itandukanye bizwi nk'amarati, hari akuma bashyiramo ikaramu kakagufasha guca uruziga.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'inzu za etaje, hari ibiti bishyize imbere yayo bisize amabara icyatsi, umutuku, ubururu ndetse na kaki.

Ibikoresho byifashishwa bapima ibintu bitandukanye. Harimo irati ikoreshwa ipima imfuruka ndetse n'inguni.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ndetse n'imiryango n'amadirishya byose ni ubururu biragaragara ko ari ikigo cy'amashuri.

Ishusho igaragaza abanyeshuri bakiri batoya biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano umuhungu arimo aramena ibishingwe ahabugenewe.

iIyubako nziza cyane zisakaje amabati y'ubururu, biragaragara ko izo nyubako ari amashuri yigirwamo n'abana, imbere y'izo nyubako hariho imigezi bashyizeho.

Uru ni urwinjiriro rwo ku kigo cy'amashuri yisumbuye cyitwa APEDU Nyamata, hari urugi rusize ibara ry'ubururu ndetse mo imbere harimo inyubako z'amashuri.

Aba ni abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye, ni abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri, barishimye, barimo barifotoza, bahagaze.

Icyumba kirimo amatara y'umweru hejuru ndetse na parafo kirimo abantu batandukanye b'abagabo ndetse n'umugore bigaragara ko gikoreshwa nk'icyumba cy'ubushakashatsi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu bigaragara ko cyubatse mu ndinganire inyubako zacyo zirashaje, harimo ubusitani burimo ibiti birebire.

Inyubako zitari kugaragara neza kubera ko harimo ibiti bizikingirije, ariko harimo imwe yubakishije amatafari ahiye, indi ikaba iteye irangi rijya gusa umuhondo.

Abantu bambaye amajire arimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, barahagaze barimo baritegereza ukuntu ibikoresho bibari imbere babikoze.

Imbuga ishashemo amapave bigaragara ko ari ku ikigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Nyagatare.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umukara n'umweru ndetse na karuvati. Barahagaze bari kurongo, imbere hari umwarimu urimo arabaha amabwiriza.

Aba ni abanyeshuri bicaye ku ntebe z'imbaho bakaba bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara, hari umugore urimo arabaganiriza.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa tw'umweru ndetse n'impuzankano y'umweru n'amapantaro y'umukara biragaragara ko bari mu cyumba kigirwamo ibijyanye na mudasobwa.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ku kigo runaka, iruhande rwabo ibumoso, hariho ameza, imbere yabo hahagaze umudamu ufite indangururamajwi, bigaragara ko afite ibyo ari kubabwira.

Ahantu habera inama harimo, abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru na kaki, hari n'abandi bagabo b'abayobozi bicaye ku meza, harimo n'umudamu ndetse hari n'umutaka wanitse.

Abantu bahagaze harimo abambaye amajire ndetse n'umwe wambaye ingofero isa umuhondo irinda umutwe kwangirika, hirya yabo inyuma hari ibyuma biteye irange ritukura ndetse n'imodoka y'umweru.

Abantu bambaye amajire arimo amabara abiri umweru ndetse n'icyatsi, imbere hari umudamu ubyibushye urimo arambuka.

Abanyeshuri b'abakobwa nibo bagaraga imbere bambaye ingofero zambarwa mu birori by'uko uba warangije kwiga kaminuza, bafite igipapuro barimo barasoma bigaragara ko ari abo muri kaminuza y'u Rwanda.

Abayobozi ndetse n'abakozi ba Kaminuza y'u Rwanda, bateraniye ahantu hamwe, barahagaze bakikije ameza akoze mu buryo bw'uruziga, barimo barifotoza.

Ubucuruzi hano ni iduka ricuruza imitako ya gakondo itandukanye, harimo imwe bamanika mu nzu mu ruganiriro.

Inyubako irimo icyumba kiberamo inama, irimo abantu b'urubyiruko bicaye ndetse imbere yabo hari ameza biragaragara ko bakurikiye.

Hano biragaragara ko ari mu cyumba cy'amashuri. Harimo umwarimu uhagaze ndetse n'abanyeshuri bameze nk'abarabu bari kwandika.

Abantu benshi bahagaze harimo abakobwa n'abasore bigaragara ko bose bakiri bato bafashe ibyemeza y'uko bitabiriye amahugurwa yari yateguwe.

Akayira k'abanyamaguru kariho amabuye ku ruhande ateye irangi ry'umukara n'umweru. Kuruhande hariho indabo zifite amabara atandukanye.

Abantu, abatoya ndetse n'abakuru bari mu nama, baricaye bakurikiye, ku meza ha hateretseho amazi yo kunywa, hari na mudasobwa y'umukara iri kugaragara.